Mani inshuwarense amafaranga ari mu bwoko bw'ibiceri, agerekeranyije ari menshi, ibirundo birenga bibiri, ingufuri ifunze iriho ikirango cya Solas ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Iduka rikorera mu nzu irimo amakaro, irimo n'amarangi y'umweru n'amatara meza amwe amanuka, ricuruza imyenda irimo amashati, irimo amakanzu y'umutuku, amakanzu meza y'abagore.

Icyumba cyiza kinini kirimo amakaro y'umweru, kirimo amarangi y'umweru, kirimo akabati gateye amarangi y'umweru, kagiye karimo buri kumba kose imisego igiye irenze imwe, hejuru ya byose hari amananasi.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibirungo bikoreshwa mu mboga, uburoso bukoreshwa mu kanwa, burubandi ikoreshwa ku mugati, n'ibindi byose. Aho umuturage ajya kugura ibikoresho akoresha mu rugo. Bimworoheye.

Imodoka itatse uturabyo imbere ifunguye umuryango, hari umuntu uri kwinjiramo n'abandi ku rundi ruhande bari kwinjiramo iparitse.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Amafaranga igiceri cya mirongo itanu gikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, gishushanyijeho ikigori gitonoye, hejuru handitse amagambo avuga ngo banki nkuru y'u Rwanda, munsi handitse igihe yakorewe bibiri na cumi na rimwe.

Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Kantine cyangwa se inzu ushobora gushakiramo ibyo kurya byoroshye byiganjemo nk'amata, amandazi, imigati, keke, amasambusa, igikoma, icyayi igihe ubikeneye.

Alimatasiyo cyangwa se kantine irimo abantu babiri, irimo etajeri, etajeri irimo amajuyisi ya sana, amajuyisi y'inyange, amajuyisi y'amilinda, ikabamo amazi y'inyange, hakabamo n'amatelemusi arimo icyayi ndetse n'ibikoma, ikabamo n'intebe y'ubururu, ikabamo n'umukobwa uri muri kotwari uhakora.

Nyanza miliki indasitiri limitedi, inzu yabugenewe igashyirwamo ibyuma ndetse n'ama etajeri bishinzwe kubungabunga umusaruro ukomoka ku nka wiganjemo amata i Nyanza.

Ikigega gishyirwamo amata y'inyange, umukozi w'inyange, ari gushyira amata mu kajerekani k'umweru, ayavoma muri cya kigega kiriho robine, amata ava mu kigega ajya mu kajerekani.

Umuntu uri muri kantine uri kuri kotwari ufite akajerekani, kontwari iteretseho turemusi eshatu, umuntuntu wambaye ikanzu n'ingofero, kantine iteyemo irange irimo n'umuryango, ku muryango hejuru hashushanyije inyenyeri, hirya hari n'amarido.

Umuntu wambaye ishati ya makarokaro, na tisheti y'umweru, wasetse, ufite ubwanwa, afite terefone ya simati fone, yayitweretse muri sikirini, harimo sipeni.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyitwa Rwanda Reveni Otoriti, ihabwa umuguzi igatangwa n'umugurisha mu rwego rwo kwemeza ko ibintu aguze byemewe n'amategeko.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, itangwa n'umucuruzi akayiha umukiriya, umuntu yagurishije ikintu runaka yanditseho amafaranga yakimugurishije mu rwego rwo gusobanura neza ibintu yagurishije n'amafaranga yabigurishije.

Imashini ibara amafaranga, igikoresho cy'ikoranabuhanga gishinzwe kubara amafaranga gikoreshwa muri banki zose yaba izigenga n'iza reta aho gifasha abakozi ba banki kubara amafaranga vuba kandi neza.

Ahantu hacururizwa ibikoresho bikozwe mu mbaho byo mu nzu: birimo imeza, ibitanda, intebe z'amadive zifite n'imisego yazo, intebe za purasitike n'ama matera.

Mu rugo, mu gipangu, mu nzu iteye amarangi y'umweru, ifite amadirishya y'umukara, hanze hari intebe zo muri saramanje esheshatu ndetse n'imeza yazo, biri hanze, mu rugo ku mapave.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Hoteri ifite ahantu heza ho gusohokera hari na pisine, pisine ifite twadutebe twiza abantu baruhukiraho tumwe wicara ukaba umeze nk'uryamye, ifite imitaka myiza pisine igezweho.

Inyubako etaje iriho ibiragure byinshi, imbere y'iyo nyubako hari umuhanda wa kaburimbo uriho imitaka ya Eyateri, Tigo, MTN ndetse na parikingi y'amamodoka menshi n'abantu bari kuhanyura benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bo mu ngeri zose baremye isoko ryubakiye ryiganjemo ibikomoka ku buhinzi birimo amacunga, indimu, ibinyomoro, kokombure, imineke n'ibindi byinshi hagamijwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi

Ikiganza cy'umuntu gifite telefone mu ntoki ntoya y'amatushe ya ayiyu yanditsemo gushyiraho amafaranga, inyuma ye hari icyapa cya MTN cyanditseho ishyura na momo peyi.

Akazu k'amayinite ka eyateri gafite imiryango ifunguye, aho abaturage bahurira bakeneye serivisi za airtel zirimo kohereza amafaranga, kuyakira, kubitsa kubikuza no kwigurira amayinite.

Abantu bane bari kuri sitasiyo ya esanse, babiri n'abakozi ba MTN barimo barafasha umumotari bamushyirarira esanse muri moto, undi umwe abahagaze inyuma, kuri sitasiyo bariho, hari na kizimyamwoto ibari inyuma n'indi moto iparitse.

Akazu k'abakozi ba emutiyene gafunguye imiryango karimo n'umukozi, gashinzwe gutanga serivisi za emutiyene zirimo kubitsa kubikuza kohereza kwakira no kugura amayinite bya emutiyene.

Akazu k'abakozi ba MTN gashinzwe kohereza, kwakira, kubitsa no kubikuza cyangwa se kugura amayinite igihe uyakeneye ku bakiriya bose ba MTN mu gihugu, karimo n'abantu bameze nkaho umwe ari umukiriya undi ari umwajenti wa MTN.

Akazu gashinzwe gutanga serivisi za eyateri, kariho abantu batatu baje gushaka serivisi za eyateri zirimo kubitsa, kubikuza, kugura ama inite, kohereza ndetse no kwakira amafaranga.

Igitanda kibajwe mu mbaho kiriho matera isasheho amashuka y'umweru ndetse n'imisego ibiri, harimo na tapi, biri mu cyumba kirimo amarangi y'umweru n'amarido.

Icyumba kimwe mu nzu, icyumba kirimo amakaro y'umweru, kirimo amarangi y'umweru, kirimo idirishya, kirimo ravabo, kirimo bya byuma bimanura amazi hejuru, kirimo na tuwarete ya kizungu n'umuryango mwiza.

Inzu zubakishije amatafari ahiye zifite geti y'umukara ziri ku muhanda, zikodeshwa zemerewe kurarwamo nt'umuntu umwe. Hafi ya sitade y'i Remera.

Inzu igurishwa miliyoni cumi zirindwi iri mu karere ka bugesera umurenge wa Nyamata ahantu bita ku Kanzenze ifungishije metaliki n'ibirahure isakaje amabati asanzwe

Sare ikorerwamo siporo zitandukanye, irimo tapi, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bya siporo birimo igikapu bakubitaho ibipfunsi, amagare banyonga, intebe bakoreraho abudomino n'ibindi.

Iduka ricururizwamo ibintu byo kwambara birimo inkweto, imikandara ndetse n'ibikapu. Ariko byose bikozwe mu ruhu.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwizigame cyitwa Ejo heza kigizwe n'amabara atatu, umuhondo, icyatsi n'ubururu bupika, umuhondo uri mu ishusho ry'izuba rirashe.

Umuturage uri kumwe na muganga mu cyumba cyabugenewe, aho umuturage yihererana muganga akajya amubwira ikibazo afite cyangwa se uburyo yafashwemo kugira ngo umuganga amufashe neza bimworoheye.

Imodoka yo mu bwoko bwa kebiyesi ariko itatse ibyapa bya beka, ikaba isa ibara ry'icyatsi, ikaba iri mu muhanda irimo iragenda itwaye abagenzi bagana za Remera.

Supa maketi isoko rya kijyambere rishinzwe gucuruza ibintu byinshi bitandukanye byiganjemo ama ji, amavuta, ama mayoneze, amata n'ibindi byinshi bikoreshwa mu rugo.

supamaketi irimo ama juyisi, irimo amamayonezi, amaburubandi, irimo amavuta yo mudukopo, amavuta yo muducupa, amavuta yo mutujerekani, irimo umugabo ari kugura afite akabogisi ameze nkuri kugatesitinga ashaka ku kagura, irimo ibikoresho byose bigezweho byo mu gikoni ndetse no ku meza.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, ari muri supermarket, afite kagakapu bakoresha muri supermarket kamwe kaba gafite amapine bagenda batembera muri supermarke, harimo ama mashini harimo amajuwise yaje guhaha.